Umuhungu wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu w'amaboko mugufi, akaba ahagaze mu nyubako, imbere ye hakaba hari umuhungu wambaye ishati y'amaboko magufi bakaba bari kuganira, bakaba bari mu nyubako, iyo nyubako barimo hakaba harimo n'abandi bantu benshi.

Abantu benshi bahagaze bakaba barimo abambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu. Akaba ari abakozi bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima ndetse baka bambaye n'udupfukamunwa, bakaba bahagaze bari gufata ifoto y'urwibutso.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama bakaba bari gukora inama. Hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore. Bakaba bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara. Imbere yabo hakaba hari imeza iteretseho telefoni ndetse n'uducupa tw'amazi.

Umugore wambaye igitenge gifite ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo, akaba afite indobo ebyiri, imwe akaba ayifite mu ntoki ikaba ifite ibara ry'umuhondo, ndetse n'indi akaba ayikoreye ku mutwe ariyo ifite ibara ry'umutuku, aho hantu ari hari ibiti.

Abahungu bane barahagaze ku ivomero, inyuma y'aho bari, hakaba hari ibyatsi ndetse n'ibiti, kuri iiryo vomero hakaba hari injerekani ifite ibara ry'umuhondo, bakaba baje kuvoma, umwe muri abo bana akaba afite inkoni.

Abana bambaye imipira ifite ibara rya oranje bakaba bicaye bakaba bari kunywa amata hakaba ari n'abantu bakuru bari kubafasha kubaha amata, harimo abambaye imyenda ifite ibara rya oranje ndetse n'abandi bambaye imyenda ifite ibara ry'umweru bakaba bari hanze.

Umugore ukenyeye igitenge wambaye n'agasengeri akaba ari koza umwana, umwana we akaba yicaye mu ibase ku ruhande akaba hari undi mwana uri kumesera mu ndobo, kurundi ruhande hakaba hari umugore wambaye igitenge, akaba ahagararanye n'umwana we, inyuma hakaba hari inyubako.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama bakaba bari gukora inama, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore ndetse n'abantu bafite uruhu rwera. Iruhande rwabo hakaba hari icyapa ndetse na televiziyo, hakaba hari n'imeza iteretseho indabo ndetse n'uducupa tw'amazi.

Abantu benshi, bicaye mu cyumba cy'uruganiriro, aho harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba baje gukora inama ndetse bakaba bafite impapuro n'amakaramu, bakaba bari kwandika.

Abantu benshi bicaye hanze y'inyubako, hakaba harimo abagabo, abagore ndetse n'abana, bakaba baje gushaka serivisi zerekeranye n'ubuzima, ku ruhande rw'iyo nyubako hakaba hari ibiti.

Abantu bambaye imipira ifite ibara rya oranje bakaba bari guhinga mu karima k'igikoni, ku ruhande hakaba hari ibiti bigiye bitandukanye, muri abo bantu hakaba harimo n'abakozi bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'umutekano.

Abantu bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivise z'ubuzima, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba barimo abicaye ndetse n'abahagaze, bakaba bambaye imyenda ifite ibara ry'umweru, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso. Inyuma hakaba hari inyubako ndetse imbere hakaba hari ibyatsi.

Abantu bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, barahagaze umwe yambaye umwenda afite ibara ry'ubururu, undi yambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, kandi bakaba bambaye udupfukamunwa, hakaba hari mudasobwa, ndetse aho hantu bari hakaba hari undi musaza wicaye ku ntebe ategereje guhabwa serivisi.

Abanyeshuri bambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu bakaba batonze umurongo bakaba baje kuvoma amazi aho bafite ibikombe byo mumabara agiye atandukanye ndetse n'ibyo bintu baje kuvomamo amazi bikaba bifite ibara ry'ubururu ku ruhande hakaba hari inyubako ndetse n'ibiti.

Umugore wambaye ibitenge akaba afite impapuro mu ntoki ze ndetse akaba ateruye n'umwana, akaba ahagaze mu nyubako ku ruhande rwe hakaba hari abandi bantu benshi bahagaze harimo abagore, abagabo ndetse n'abana.

Abantu benshi barahagaze, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso, ku ruhande rwabo hakaba hari icyapa kiriho ifoto n'inyuma yabo hakaba hari inyubako.

Abagore bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, bakaba bahagaze, bakaba bambaye n'ibitenge, hakaba harimo n'abahetse abana, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma yaho bari hakaba hari inyubako.

Abantu benshi bahagaze mu murima, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bafite ibipapuro bifite ibara ry'umweru, kandi kuri ibyo bipapuro hakaba handitseho amagambo. Inyuma y'aho bari hakaba hari akazu ko mu mabati ndetse n'ibiti.

Abantu benshi bicaye mu nyubako bakaba bari gukora inama aho bari kubikorera mu cyumba cy'uruganiriro hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore muri abo bantu bari gukora inama hakaba arimo abafite uruhu rwera ndetse n'abandi birabura hakaba hari imeza imbere yabo ziteretseho impapuro, mudasobwa ndetse n'uducupa tw'amazi.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'uruganiriro, bakaba bari gukora inama, aho harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba hari imeza iteretseho impapuro, ndetse n'uducupa tw'amazi.

Umukobwa wambaye umupira w'amaboko mugufi ufite ibara ry'ivu, akaba ari kuvomera abana amazi, aho bari kuvomera utubido dufite ibara ry'umuhondo, aho hantu bari hakaba hari imodoka, ibiti ndetse n'ibyatsi.

Umugore wambaye ingofero, umupira w’amaboko maremare ndetse n'igitenge, akaba ari kuvomera amazi mu majerekani afite ibara ry'umuhondo. Aho hantu ari hakaba hari umuhanda w'ibitaka, ibiti ndetse n’urutoki.

Wambaye ikoti rifite ibara ry'umukara ndetse n'amataratara akaba ari kuvuga aho ari gukoresha igikoresho cyabugenewe cyo gusakaza amajwi aricyo mikoro akaba ahagaze imbere y'abantu ku ruhande hakaba hari intebe ndetse inyuma ye hakaba hari icyapa kiri amabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Abantu benshi bicaye mu nyubako hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore hakaba harimo ndetse n'abantu bafite uruhu rwera bakaba bari mu inama. Imbere akaba ari abantu bayoboye inama harimo n'ufite mudasobwa inyuma yabo hakaba hari icyapa gifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Umwana wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru n'ikabutura, akaba ari kuvoma amazi, imbere ye hakaba hari undi mwana uri kuvomera amazi mu kabido gafite ibara ry'umuhondo, inyuma yaho bari, hakaba hari ibyatsi.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama, bakaba bari gukora inama, aho harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba hari abantu bicaye imbere ari bo bayoboye inama ndetse inyuma yabo hakaba ari icyapa gifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Umuntu ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, akaba yambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu, igitambaro cy'umweru ndetse n'amataratara, akaba ari kuvura umugabo wambaye imyenda y'umukara n'umweru, aho hantu bari hakaba hari abantu benshi baje gushaka serivisi ndetse n' abantu bari kuyitanga.

Abantu benshi bicaye mu cyumba k'inama bakaba bari gukora inama, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore ndetse n'abantu bafite uruhu rwera, imbere yabo hakaba hari icyuma cyabugenewe cyo kwerekaniraho amashusho ari cyo bita televiziyo, imbere yabo hakaba hari impapuro uducupa tw'amazi ndetse na telefoni.

Abantu benshi bicaye mu nyubako, bakaba harimo abagore ndetse n'abagabo, hakaba higanjemo abambaye imyenda ifite ibara ry'icyatsi ndetse n'abandi bambaye imyenda ifite ibara ry'umweru, bakaba bambaye n'udupfukamunwa, hakaba hari imeza iteretseho impapuro ndetse n'uducupa turimo amazi.

Abantu benshi baricaye, harimo abagabo, ndetse n'abana, bakaba bateze amatwi umuntu uri kuvuga, aho imbere yabo hahagaze umugabo uri kuvuga, akaba afite ibipapuro mu ntoki, iruhande rwe hakaba abandi bantu babiri bicaye, inyuma yabo hakaba hari igikuta.

Abana bambaye imyenda ifite ibara ry'umweru ndetse n'imyenda ifite ibara ry'ivu bakaba bari gukaraba intoki, inyuma y'aho bari hakaba hari undi mwana uhagaze ndetse hakaba hari n'ibiti birebire.

Abantu benshi bari mu nyubako hakaba higanjemo abagore bakaba bari kubyina. Muri iyo nyubako barimo, hakaba harimo intebe zifite ibara ry'umweru ndetse n'amafoto yometse ku gikuta.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama bakaba bari gukora inama, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, ku ruhande hakaba ari icyuma cyabugenewe cyerekana amashusho, aricyo televiziyo kandi bakaba bafite mudasobwa.

Umugore ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, akaba yambaye agapfukamunwa ndetse akaba yambaye n'umwenda ufite ibara ry'ubururu, akaba ari gusuzuma umugore wambaye igitenge ndetse agapfukamunwa ku ruhande, hakaba hari undi mugore na we uhagaze wambaye agapfukamunwa, bakaba bari mu nyubako.

Abanyeshuri benshi bicaye mu ishuri, bakaba bari gufata ifunguro, hakaba harimo abakobwa ndetse n'abahungu ndetse hakaba harimo n'abambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu ndetse n'abandi bambaye imyenda ifite ibara rya kaki, inyuma hakaba hari ikibaho cyanditseho ndetse inyubako barimo ikaba ifite ibara ry'umweru.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama, bakaba bari gukora inama, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, muri abo bantu hakaba harimo n'ufite uruhu rwera, imbere yabo hakaba hateretse imeza iriho udukombe banyweramo icyayi.

Umwana wambaye umupira ufite ibara ry'ubururu, akaba ari gufasha undi mwana wambaye ishati y'igitenge kuvoma amazi, aho bari kuvomera mu kabido gafite ibara ry'umuhondo, aho hantu bari hakaba hari abantu benshi bari kugenda, hakaba ari inyubako ndetse n'ibiti.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru ndetse n'agapfukamunwa, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, akaba afite ikayi ari kwandikamo ndetse na terefoni mu ntoki ze, ku ruhande hakaba hari umugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu, inyuma yabo hakaba hari icyapa kiri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku.

Umugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, akaba ari kuvura umwana, hakaba hari n'umugore uteruye umwana, iruhande rwabo hakaba hari imeza iriho impapuro ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye, kandi bakaba bari mu nyubako mo imbere.

Umugore wambaye ingofero mu mutwe, wambaye umupira w'amaboko magufi ndetse n'ijipo, akaba ateruye ijerekani ifite ibara ry'umuhondo, aho ari kuvoma amazi, iruhande rwe hakaba hari abana babiri bahagaze.

Umuntu wambaye umwenda ufite ibara ry'umuhondo, ndetse n'umukara, akaba ari koza amapine y'igare rye, iruhande rw'umugezi, ku ruhande rw'umugezi hakaba hari umugore uri kuvoma amazi, ndetse kuri urwo ruhande hakaba hari ibiti ndetse n'ibyatsi.

Abantu bane baricaye hakaba hari n'undi uhagaze muri abo bicaye hakaba harimo uwambaye amataratara bakaba ari abakozi bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, imbere ya bo bakaba hateretse imeza iriho imiti.

Abana barahagaze ndetse n'umugabo bakaba barikuvoma aho hari amajerekani menshi afite ibara ry'umuhondo, ndetse aho hantu bari hakaba hari umusozi w'amabuye, ndetse hariho n'ibyatsi.

Abagore babiri bambaye imyenda ifite ibara ry'umweru, ndetse bakaba bakenyeye n'ibitenge, bakaba bafite umufuka ufite ibara ry'umweru, aho hantu bari, hakaba hari abantu benshi harimo; abagabo ndetse n'abagore, ndetse hakaba hari n'imifuka myinshi itondetse.

Umuntu wambaye imyenda ifite ibara ry'umweru n'umutuku akaba yunamye, akaba ari kuvoma amazi, ari kuvomera amazi mu ijerekani ifite ibara ry'umuhondo, hakaba hari n'akabido gafite ibara ry'umweru, aho hantu ari hakaba hari ibyatsi.

Umukobwa wambaye umwenda ufite ibara ry'umukara akaba yicaye, imbere ye hakaba hari ibase iteye ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, hakaba hari n'injerekani ifite ibara ry'umuhondo akaba ari kuvoma amazi, inyuma ye hakaba hari imyenda iri ku mugozi ku ruhande rwe hakaba hari igiti ndetse n'inyubako.

Umuntu wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi, ku ruhande rwe hakaba hari abandi bakozi bakorana ndetse hakaba hari n'abantu baje gufata serivisi, hakaba hari ibikoresho bigiye bitandukanye bakoresha batanga serivisi z'ubuzima.

Umugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivise z'ubuzima. Iruhande rwe hakaba hari inyubako, ku ruhande rwe rundi hakaba hari umugore ukenyeye igitenge ndetse yambaye n'umwenda ufite ibara ry'umweru ufite ibara ry'umweru. Uwo mugabo akaba ari kwereka uwo mugore ifoto y'abana babiri.

Umuntu wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu, akaba ari kuvoma amazi, ari kuvomera mu ijerekani ifite ibara ry'ubururu ndetse ku ruhande rw'iyo jerekani, hakaba hari n'andi majerekani menshi afite ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara, iruhande rwabo hakaba hari abantu benshi ndetse n'ibyatsi.

Umwana wambaye umwenda ukozwe mu gitenge, akaba afite akajage gafite ibara ry'ubururu, imbere ye hakabaho undi mwana wambaye imyenda ifite ibara ry'umuhondo n'umukara, akaba ari gukaraba intoki, imbere ye hakaba hari indobo ifite ibara ry'ubururu, inyuma y'abo hakaba hari inyubako.

Umugabo wambaye imyenda ifite ibara ry'umukara, akaba ari kuvoma amazi, aho ari kuvomera mujerekani ifite ibara ry'umuhondo, iruhande rwiyo jerekani akaba hari nakabido na ko gafite ibara ry'umuhondo ku ruhande rwe hakaba hari abantu benshi harimo abana ndetse n'abagabo, inyuma yabo hakaba hari ibyatsi ndetse n'inyubako.

Abantu benshi barahagaze barimo abagore, abana ndetse n'abagabo, hakaba hari umugabo ufite igikoresho cyabugenewe cyo gusakaza amajwi, iruhande rwe hakaba n'undi mugabo wambaye umwenda ufite ibara rya oranji ndetse hakaba hari n'umugore upfukamye.

Abantu benshi bahagaze, hakaba harimo abagabo, ndetse n'abagore, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso, muri abo bantu bahagaze hakaba harimo n'abafite uruhu rwera, inyuma yabo hakaba hari icyapa gifite ibara ry'ubururu, kiriho amagambo y'umweru, ndetse bakaba bari mu nyubako.

Umugore wambaye ikanzu iri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima aho ari gutanga serivisi, ku ruhande rwe hakaba hari umugore wambaye imyenda ifite ibara ry'umweru n'umukara akaba ateruye umwana mu ntoki, ku ruhande hakaba n'undi mwana uhicaye ndetse hakaba hari n'undi mugore ufite ibitabo mu ntoki.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umutuku ndetse n'icyatsi akaba ateze n'igitambaro mu mutwe, akaba afite indobo ifite ibara ry'ubururu mu ntoki ze, ku ruhande akaba ari n'indobo ifite ibara ry'umutuku ndetse n'undi mugore wambaye imyenda irimo amabara agiye atandukanye bakaba baje kuvoma ahantu bari hakaba hari n'abandi bantu benshi ndetse hakaba ari inyubako n'igiti.

Umwana wambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'umutuku ndetse n'ipantaro ifite ibara ry'ubururu, akaba ari ku ivomero akaba afite igikombe gisa umuhondo, akaba ari kunywa amazi, ku ruhande rwe hakaba hari ibiti.

Umwana wambaye umwenda ufite ibara rya kaki, akaba ari umunyeshuri, iruhande rwe hakaba hari umugore wambaye agapfukamunwa, umupira ufite ibara ry'ubururu, ndetse n'igitenge, aho ari kumukarabya intoki, inyuma y'aho bari hakaba hari ibiti.

Abantu benshi barahagaze, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore. Bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso. Bakaba bakorera Ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima. Ahantu bari gufatira iyo foto hakaba harimo intebe ndetse bari mu nyubako.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, akaba ari umukozi kubera ikigo gishinzwe gutanga serivise z'ubuzima, imbere ye hakaba hari umwana akaba ari kuvurwa ndetse hakaba n'umugore wambaye umupira w'amaboko maremare, bakaba bicaye mu nyubako.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi, irimo imirongo y'umukara, akaba yambaye n'ipantaro y'umukara, akaba yicaye ku ijerekani ifite ibara ry'umutuku, akaba yaje kuvoma amazi, inyuma ye hakaba hari inyubako ndetse n'indabyo.

Abantu benshi bari mu cyumba cy'inama hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore bose bakaba baje gukora intama, aho hari imeza iteretseho uducupa tw'amazi ndetse n'ibyuma byabugenewe byo gusakaza amashusho aribyo bita kamera.

Abana benshi bahagaze bakaba ari abanyeshuri, bakaba bambaye imyenda ifite ibara rya kaki bakaba baje kuvoma amazi aho hari indobo zifite ibara ry'umuhondo ndetse n'utujerekani, inyuma y'aho bari hari ibiti, ibyatsi ndetse n'inyubako.

Abagore benshi bahagaze bakaba baje kuvomesha amazi aho hari amabido afite ibara ry'umuhondo menshi atonze umurongo ategereje kuvomerwamo hakaba hari n'inyubako ifite ibara ry'ubururu hakaba ahahagaze umuntu ushinzwe kuvomesha iruhande rw'a bantu hakaba hari ibiti.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umukara ndetse n'ikoti rifite ibara ry'umukara n'umweru, akaba yicaye ku ntebe ifite ibara ry'umukara, inyuma ye hakaba hari idarapo ndetse n'amarido afite ibara ry'ubururu, ku ruhande hakaba hari umugore wambaye umwenda uri mu mabara y'umutuku ndetse n'umuhondo, akaba akenyeye n'igitambaro, akaba yicaye ku ntebe ifite ibara ry'umukara, inyuma ye hakaba hari idarapo rifite ibara ry'ubururu ndetse n'amarido afite ibara ry'ubururu.

Abantu benshi bahagaze hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso, bakaba bari mu nyubako; inyuma yaho bari hakaba hari icyapa cy'amabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Umugabo wambaye umwenda ufite ibara rya oranje, akaba yambaye n' amataratara, akaba asutamye, ku ruhande rwe akaba hari umwana uhagaze, ku cyuma cyabugenewe cyerekana ibiro, inyuma ye akaba ahagaze abandi bantu.

Abagabo batatu ndetse n'abagore babiri, bakaba bicaye mu cyumba cy'inama, bakaba bari gukora inama, hakaba harimo abagore bafite uruhu rwera, imbere yabo hakaba hari imeza iteretseho telefoni, impapuro ndetse n'uducupa tw'amazi.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, akaba ari gutera umwana urushinge hakaba hari umugore umufashe mu ntoki, ku ruhande hakaba hari abandi bantu ndetse n'imiti.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru akaba ari umukozi kubera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima aho ari kuvura umwana akaba hari umugore wambaye ibitenge akaba ariwe umuteruye bakaba bari mu nyubako inyuma hakaba hari urugi rufite ibara ry'icyatsi.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu ndetse na oranji, akaba afite indobo ifite ibara ry'icyatsi mu ntoki ze, ku ruhande hakaba harundi mukobwa wambaye imyenda irimo amabara y'umukara ndetse n'umutuku, akaba akenyeye n'igitenge ku ruhande rwabo hakaba hari inyubako, ibiti, ndetse n'umusozi.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama, bakaba bari gukora inama, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, harimo n'abafite uruhu rwera, bakaba bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, imbere yabo hakaba hari imeza iteretseho telefoni ndetse n'uducupa tw'amazi.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, akaba yambaye n'agapfukamunwa, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, akaba ari gutera urushinge umugabo. Uwo mugabo akaba yambaye agapfukamunwa ndetse n'umupira ufite ibara rya kacyi, bakaba bari mu nzu, inzu barimo hakaba harimo n'abandi bantu baje kuvura.

Umwana wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru akaba ari kunywa amazi, ku ruhande rwe hakaba hari abandi bana bambaye imyenda ifite ibara ry'icyatsi na bo bakaba baje kunywa amazi, inyuma yabo bari hakaba hari ibiti.

Umwana wambaye ishati ifite ibara ry'icyatsi, akaba yambaye n'ikabutura, akaba ari gukaraba intoki, ku ruhande rwe hakaba hari indobo ifite ibara ry'ubururu, inyuma y'aho ari hakaba hari ibiti ndetse n'inzu.

Umwana wambaye umwenda ufite ibara ry'icyatsi, akaba yambaye n'ikabutura, akaba ari gukaraba intoki, ku ruhande rwe hakaba hari indobo ifite ibara ry'ubururu, inyuma ye hakaba hari ibiti.

Abantu benshi bahagaze bari gufata ifoto, hakaba higanjemo abambaye imyenda ifite ibara ry'umweru, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, inyuma y'aho bahagaze hakaba hari icyapa kiri mu mabara y'umweru, umuhondo ndetse n'ubururu.

Abantu benshi bahagaze, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba harimo n'abambaye imyenda ifite ibara ry'umweru, akaba ari abakozi bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivise z'ubuzima, inyuma yabo hakaba hari inyubako ifite ibara ry'ubururu.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare akaba yambaye n'ipantaro ifite ibara ry'umukara, akaba ari gukaraba intoki akoresheje kandagira ukarabe, iyo kandagira ukarabe ifite akajerekani gafite ibara ry'umuhondo, inyuma y'aho ari hari inyubako ndetse n'ibiti.

Abana benshi bicaye, bakaba bambaye imyenda ifite ibara ry'umweru ndetse hakaba hariho n'ababyeyi babo. Hakaba hari abantu bari kubaha igikoma cyangwa amata, muri abo bantu bari kubaha, hakaba harimo umuntu ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'umutekano.

Abagore babiri ndetse n'abagabo babiri, bicaye mu cyumba cy'inama bakaba bari gukora inama, umwe muri bo afite icyuma cyabugenewe cyo gusakaza amajwi, aricyo mikoro, akaba ari gutanga igitekerezo cye cyangwa ari gutanga imbwirwaruhame, hakaba hari imeza iriho uducupa tw'amazi ndetse na mudasobwa.

Umugore wambaye umwenda urimo amabara y'umutuku, akaba afite ijerekani ebyiri zifite ibara ry'umuhondo mu ntoki ze, iruhande rwe hakaba hari undi mugore wambaye ibitenge, wambaye n'agapfukamunwa, ndetse aho hantu ari hakaba hari ibiti, inyubako ifite ibara ry'ubururu, amajerekani menshi ndetse n'abandi bantu benshi baza kuvomesha.

Abantu benshi bambaye imyenda ifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu bwerurutse bakaba bahagaze hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, bakaba bahagaze bari gufata ifoto y'urwibutso, iruhande rw'aho bari hakaba hari icyapa ndetse n'inyubako.

Abantu benshi bambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, akaba ari abakozi bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, imbere yabo hakaba hahagaza umugabo wambaye imyenda y'umukara n', akaba afite n'uruhu rwera.

Abantu benshi bahagaze haba harimo abagabo ndetse n'abagore. Bakaba bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima ndetse n'ibindi bigo bishamikiye ku ndwara zo mu mutwe, inyuma y'aho bari hakaba hari inyubako ndetse n'ibiti.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama , hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore bakaba bari gukora inama, imbere yabo akaba ari abantu bicaye bayoboye inama, bakaba bari mu nyubako inyuma ikaba ifite icyapa cy'amabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Umuhungu wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, akaba ari umukozi kubera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, aho ari kuvura umugore, ku ruhande rwe hakaba hari imiti ndetse hakaba n'umuntu uhahagaze, ku rundi ruhande hakaba hari undi muntu uhahagaze.

Umugore wambaye umwenda w'amaboko magufi ndetse n'umwenda ufite ibara ry'umukara akaba yicaye imbere ye akaba hateretse ijerekani ifite ibara ry'umuhondo iri mu ipasi ifite ibara ry'umweru imbere ye akaba ari igiti iruhande rwekaba ari inyubako inyuma yekaba ari imyenda iri ku mugozi.

Abagore babiri, umwe yambaye umwenda ufite iba ry'umweru, undi yambaye umwenda ufite ibara ry'uburu ndetse n'umweru, akaba ari abakozi bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, imbere yabo hakaba hari meza, hakaba hariho n'ikayi bari kwandika, ku ruhande hakaba hari umugore wicaye utegereje guhabwa serivisi, bakaba bari mu nyubako.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umutuku n'ingofero ndetse n'agapfukamunwa, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, aho ari kuvura umwana, ku ruhande hakaba hari abandi bantu bambaye udupfukamunwa ndetse n'inyubako.

Umugore wambaye agapfukamunwa gafite ibara ry'ubururu, akaba yambaye n'umwenda ufite ibara ry'umweru, umukara ndetse n'umuhondo, akaba ateruye umwana mu ntoki ze, inyuma ye hakaba hari undi mugore wambaye agapfukamunwa k'umukara, na we uteruye umwana bakaba bari mu nyubako.

Abantu benshi barahagaze ndetse n'abandi baricaye, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, akaba ari abakozi bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, bakaba bahagaze bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma y'aho bari hakaba hari icyapa.

Benshi bicaye mu cyumba cy'inama hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bari gukora inama, hakaba harimo n'abagiye bafite impapuro ndetse n'amakaramu bakaba bari kwandika.

Umukobwa wambaye umwenda ufite ibara ry'ivu w'amaboko mugufi, akaba ari gufasha abana kuvoma, aho hahagaze abana batatu ndetse bakaba bafite n'utubido dufite ibara ry'umuhondo, ku ruhande hakaba hari ibiti, imodoka ndetse n'ibyatsi.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, akaba yicaye ku ntebe, imbere ye hakaba hari umugabo n'umugore bakaba bari kuganira.

Abana bane bahagaze, umwe akaba yambaye umwenda ufite ibara ry'umutuku, undi ubururu, undi umukara, undi akaba yambaye umwenda ufite ibara ry'ivu, bakaba bari kuvoma amazi mu injerekani ifite ibara ry'umuhondo. Inyuma y'aho bari, hakaba hari ibyatsi ndetse n'ibiti.

Umwana wambaye umwenda ufite ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu akaba ari umunyeshuri akaba afite ibikombe bibiri birimo amazi, ku ruhande rwe hakaba hari abandi bana bahagaze inyuma yabo hakaba ari amazi ndetse n'ibyatsi.

Abantu bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore bakaba bambaye imyenda ifite iba ry'umweru, bakaba bahagaze bari gufata ifoto y'urwibutso'bo bantu bakaba barimo n'umuntu ufite uruhu rwera.

Umugore wambaye umupira ufite ibara ry'ivu ndetse n'igitenge, akaba ari kuvoma amazi mu ijerekani ifite ibara ry'umuhondo, ku ruhande rwe hakaba hari umugore na we wambaye igitenge, inyuma ye hakaba hari umukobwa uhagaze, inyuma yabo hakaba hari urutoki.

Abantu benshi bahagaze harimo abagabo ndetse n'abagore bakaba bambaye imyenda ifite ibara ry'umweru, bakaba ari abakozi bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, hakaba hari umugabo wambaye ishati y'umweru wicaye ku ntebe, inyuma yabo hakaba hari igisharagati, ibyatsi ndetse n'inyubako.

Umugore wicaye akaba yambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivise z'ubuzima, imbere ye hakaba abandi bagore bagenzi be baje kwivuza. Iruhande rwabo hakaba hari ibyatsi ndetse n'igiti.

umwana wambaye ishati y'amaboko maremare iteye ibara ry'ubururu bwerurutse ndetse n'ipantaro ifite ibara ry'umukara, akaba ari gukaraba intoki, ari gukoresha indobo ifite ibara ry'umweru, ikaba iteretse ku ntebe, inyuma ye hakaba hari imigano.

Umugore wambaye ibitenge akaba afite urupapuro mu ntoki, akaba ateruye n'umwana mu ntoki, bakaba bahagaze mu nyubako ifite ibara ry'umweru, muri iyo nyubako hakaba harimo n'abandi bantu benshi bicaye, bakaba baje kwaka serivisi zerekeranye n'ubuzima.

Abagore babiri bunamye, umwe akaba yambaye agapfukamunwa bakaba bari gukaraba intoki, imbere yabo hakaba hari umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umutuku ndetse n'apfukamunwa, bakaba baje gukoresha ivomero rusange hakaba hari n'amajerekani afite ibara ry'umuhondo, inyuma yabo hakaba hari ibiti.

Umugabo wambaye ikoti rifite ibara ry'umukara ndetse n'amataratara, akaba yicaye mu nyubako, ku ruhande rwe, hakaba hari n'undi mugabo wambaye ikoti rifite ibara ry'ivu, akaba afite igikoresho cyabugenewe abakoresha basakaza amajwi akaba ari kuvuga, imbere ye hakaba hari imeza iteretseho impapuro ndetse n'uducupa tw'amazi, inyuma ye hakaba hari icyapa cy'amabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Abana bambaye imipira ifite ibara rya oranje ari benshi baricaye, hakaba hari umugore usutamye akaba ari kubaha amata, inyuma y'aho umugore ari hakaba hari abandi bantu benshi bahagaze.

Umugore wambaye igitenge akaba yambaye n'ingofero mu mutwe, aho ari gukaraba intoki, akaba ari gukaraba intoki akoresheje kandigira ukarabe ifite ibara ry'umweru, inyuma y'aho ari hakaba hari umuryango.

Umwana wambaye umwenda ufite ibara ry'umutuku akaba asutamye, akaba ari gukaraba intoki, iruhande rwe akaba ari undi mwana na we usutamye uri gukaraba intoki. iruhande rw'abo hakaba hari ikibaya.

Umugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu imbere ye hakaba ari abagore babiri bambaye ibitenge ndetse n'ibitambaro mu mutwe, bakaba bafite umufuka mu ntoki ku ruhande rwabo hakaba hari indi mifuka myinshi.

Abantu benshi bicaye mu nyubako, hakaba harimo abagabo, abana, ndetse n'abagore, kandi bakaba bambaye udupfukamunwa, bakaba baje kwaka serivisi zerekeranye n'ubuzima, aho hari abantu babiri bafite mudasobwa bari gutanga izo serivisi.

Umugore ufite uruhu rwera, akaba yambaye isaha, akaba yambaye n'umupira ufite iba ry'ivu, akaba afite igikoresho bakoresha basakaza amajwi ari cyo mikoro, akaba ari gutanga imbwirwaruhame n'inyuma ye hakaba hari icyapa kirimo amabara agiye atandukanye.

Umugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu, agapfukamunwa gafite ibara ry'umweru ndetse n'amataratara arahagaze, iruhande rwe hari umwana wikoreye ibido ifite ibara ry'umuhondo, ku ruhande rwe hakaba hari undi muntu uhahagaze ndetse hakaba n'umugore ufite uruhu rwera akaba ari kubafotora.

Abantu benshi baricaye n'abandi barahagaze, bakaba bambaye imyenda ifite ibara ry'umweru, akaba ari abakozi b'ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, inyuma yaho bari hakaba ari igikuta ndetse n'icyapa.

umwana wambaye umupira w'umutuku arasutamye, ku ruhande rwe hakaba hari undi mwana wambaye imyenda ikozwe mu gitenge na we akaba asutamye, imbere yabo hakaba hari ivomero bakaba bari gukaraba intoki.

Abana bambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu ndetse n'abandi bambaye imyenda ifite ibara ry'umuhondo bakaba bicaye hasi, hakaba harimo abantu bagiye batandukanye, aho harimo umugore ufite uruhu rwera, iruhande rwabo hakaba hari meza ndetse n'intebe.

Abanyeshuri bahagaze, harimo abakobwa ndetse n'abahungu, bakaba bambaye umwenda bafite ibara rya shokora, bakaba bari kuvoma amazi aho bari gukoresha indobo zifite ibara ry'umuhondo. Ahantu bari inyuma hakaba ari ibiti ndetse n'inyubako.

Abantu benshi bari mu cyumba cy'inama, bakaba bari gukora inama, aho harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba hahagaze umugore uri kuvuga ijambo ndetse hakaba hari imeza iteretseho amasakame n'uducupa tw'amazi ndetse na za mudasobwa.

Umugabo wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, imbere ye hakaba hari umugore wambaye ibitenge ufite umwana bakaba baje kumupima ibiro, aho hantu bari hakaba hari n'abandi bagore bafite abana baje kwaka serivisi.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare, imbere ye hakaba hari akana kambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu, bakaba bamaze kukavura, iruhande rwe hakaba ari umugore witandiye na we akaba afite umwana mu ntoki ze, inyuma yabo hakaba hari umugabo wambaye imyenda ifite ibara ry'umweru akaba ari umukozi kubera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, aho hantu bari hakaba hari n'abandi bantu benshi cyane.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama bakaba bari gukora inama hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, imbere yabo hakaba hari meza itetseho mudasobwa uducupa tw'amazi ndetse na telefoni.

Abantu bambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, akaba ari abakozi bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivise z'ubuzima, hakaba hari umugabo wambaye amataratara ndetse n'imyenda ifite ibara ry'umukara, iruhande rwabo hakaba hari ibiti, bakaba bahagaze hanze.

Umukobwa wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru n'ubururu, akaba ari umunyeshuri, akaba ari gukaraba intoki, ku ruhande rwe hakaba hari igitebo gifite ibara ry'icyatsi, imbere ye hakaba hari undi munyeshuri uri kugenda, inyubako ndetse n'ibiti.

Abantu benshi bahagaze ku murongo hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba harimo n'abambaye imyenda ifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, bose bakaba bari mu gikorwa cyateguwe n'ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, nyuma y'aho bari hakaba hari ibiti ndetse n'inyubako.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'icyatsi, agapfukamunwa ndetse n'igitambaro gifite ibara ry'umuhondo n'ubururu akaba acyambaye mu mutwe akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima akaba ari mu nyubako irimo n'abandi bakozi bagenzi be ndetse n'ibikoresho bakoresha bavura.

Abanyeshuri barahagaze, hakaba harimo abakobwa bane ndetse n'abahungu babiri, bombi bakaba bambaye imyenda ifite ibara ry'umweru kandi bakaba bafite n'ibikombe bari kunywa amazi, aho hantu bari hakaba ari ikigega, inyubako ndetse n'urutoki.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivise z'ubuzima, aho arikuvura umwana mutoya. Hakaba hari n'umugore wambaye igitenge akaba ari we uteruye umwana. Bakaba bari mu nyubako. Inyuma hakaba hari urugi rufite ibara ry'icyatsi.

Abantu benshi bahagaze mu nyubako, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma y'aho bari hakaba hari amadarapo y'ibihugu bigiye bitandukanye.

Umuntu wambaye ibifite ibara ry'umweru akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, akaba ari kuvura umwana. Hakaba n'abandi bantu benshi baje kuvura ku ruhande rwa bo hakaba hari ibyatsi.

Umwana wambaye umwenda ufite ibara ry'umuhondo ndetse n'ipantaro ifite ibara ry'umukara, akaba ari kuvoma amazi ari kuyavomera mu kajerekani gafite ibara ry'umweru, aho hantu ari hakaba hari n'abandi bantu benshi baje kuvoma amazi.

Umwana wambaye umwenda ufite ibara ry'icyatsi, akaba yambaye n'ikabutura, akaba ari gukaraba intoki, ku ruhande rwe hakaba hari indobo ifite ibara ry'ubururu, inyuma y'aho ari hakaba hari ibiti byinshi.

Abana bahagaze harimo abakobwa ndetse n'abahungu, bakaba bari gukaraba intoki, bakaba bambaye imyenda ifite ibara rya kaki akaba ari abanyeshuri, ku ruhande rwabo hakaba hari inyubako ndetse n'abandi bana bahahagaze.

Umuntu wambaye umwenda ufite ibara rya oranje ndetse n'amataratara, imbere ye hakaba ari akana kambaye umwenda ku ibara rya oranje ndetse n'umugore wabo umupira w'umweru akaba ariwe umuteruye, inyuma yabo hakaba n'ahandi hantu benshi bagiye bahari.

Umwana wambaye umupira ufite ibara ry'umweru ndetse n'ipantaro ifite ibara ry'umutuku werurutse, akaba ari kuvoma amazi, aho afite amajerekani atatu ari mu ibara ry'umuhondo, inyuma ye hakaba hari urutoki ndetse n'ibyatsi.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, akaba ari kuvura umwana ndetse akaba hari n'umugore akaba ariwe mama w'uwo mwana bakaba bari mu nyubako, inyubako barimo inyuma hakaba hari urugi rufite iba ry'icyatsi.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima aricaye, akaba ari kwandika mu gitabo, akaba afite igikoresho cy'ikoranabuhanga aricyo telefoni, ku ruhande rwe hakaba hari umugabo wambaye umupira w'ubururu uhicaye, akaba yaje kwaka serivisi zerekeranye n'ubuzima.

Umwana wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru ndetse n'umukara akaba yunamye imbere ye hakaba hari indobo zifite ibara ry'umweru ndetse ku rundi ruhande hakaba hari ivomero, inyuma ye hakaba hari ibiti.

Umwana wambaye umwenda ufite ibara ry'umuhondo akaba ari umunyeshuri, akaba ahagaze ari gukuraba intoki yakoresheje kandagira ukarabe, ku ruhande rwe hakaba hari abandi banyeshuri ndetse hakaba hari n'ibiti.

Umugore wambaye umupira ufite ibara ry'umweru, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, akaba afite ikaramu mu ntoki ndetse n'urupapuro, imbere ye hakaba hari umwana wambaye ingofero ndetse hakaba n'abandi bantu benshi.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama, bakaba bari gukora inama, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, imbere yabo hakaba hari abantu babiri bicaye bambaye amakoti, akaba ari bo bayoboye iyo nama, inyuma yabo hakaba hari icyapa kiri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama, aho harimo abagabo ndetse n'abagore, muri abo bantu bari mu cyumba cy'inama, hakaba harimo n'abafite uruhu rwera, bose bakaba bari gukora inama, imbere hakaba hari abantu benshi bicaye ku ntebe, ari bo bayoboye inama.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima aho afite icyuma cyabugenewe abakoresha abasakaza amajwi aricyo mikoro ndetse n'agatabo imbere ye hakaba hari abantu benshi bamuteze amatwi ku ruhande rwe hakaba hari ibiti.

Abantu benshi barahagaze, hakaba barimo abana ndetse n'abagore, inyuma y'aho bari hakaba hari urutoki n'ibyatsi , hakaba hari umugore wambaye umupira ufite ibara ry'icyatsi, akaba ari gufasha kuvoma, ari kumwe n'undi mwana wambaye umupira ufite ibara ry'umutuku ndetse hakabaye ari n'ijerekani zifite ibara ry'umuhondo.

Abana batoya bane bakaba bahagaze bakaba bari gukaraba intoki munsi yabo hakaba hari ibase ifite ibara rya oranje, hakaba hari umuntu uri kubasukira bakaba bari gukaraba intoki ku ruhande rwabo hakaba hari ibiti.

Abantu benshi barahagaze abandi baricaye, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, muri aba bantu bari gufata ifoto y'urwibutso hakaba harimo umuntu ufite uruhu rwera, bakaba bari mu nyubako.

Umugore wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu ndetse n'agapfukamunwa, akaba ari umukozi ukora ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, akaba ari gutera urushinge umugore wambaye umwenda w'ibara ry'umukara, agapfukamuwa k'umukara ndetse n'ingofero, bakaba bari mu nyubako irimo n'abandi bantu benshi.

Umugore ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, akaba yambaye agapfukamunwa, akaba afite agakoresho kabugenewe ko gupima umuriro. Ku ruhande rwe hakaba ari umugore uhahagaze, undi yambaye ingofero ku ruhande rwabo hakaba hari ibiti, inyubako, ndetse n'amazi.

Abantu bambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, bakaba bicaye mu cyumba cy'inama, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba ari abakozi bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivise z'ubuzima bakaba bari gukora inama.

Umwana mutoya wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu harimo uturongo tw'umukara, akaba afite isabune mu ntoki ze ari gukaraba intoki, hakaba hari umuntu ufite ijage ifite ibara ry'icyatsi akaba ari kumusukira.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama bakaba bari gukora inama, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba hateretse ameza, iriho mudasobwa ndetse ku ruhande aho bari, hakaba hari abandi bantu benshi bicaye.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi, ifite ibara ry'umweru harimo uturongo tw'umukara, ndetse n'ipantaro ifite ibara ry'umukara, akaba yicaye ku ijerekani ifite ibara ry'umuhondo, aho yaje kuvoma amazi, inyuma ye hakaba hari indabyo ndetse n'inzu.

Umwana w'umukobwa akaba ari umunyeshuri, akaba ari gukaraba intoki, aho hari indobo ifite ibara ry'icyatsi irimo amazi, akaba ari gukaraba intoki amazi ajya mu ibase ifite ibara ry'icyatsi, inyuma ye hakaba hari igikuta ndetse n'inyubako.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare, akaba afite igikoresho cyabugenewe cyo gusakaza amajwi ari cyo mikoro, akaba ahagaze imbere y'imbaga y'abantu ari kuvuga, hakaba hari n'abandi bantu benshi bicaye harimo n'abakorera inzego z'umutekano, inyuma yaho bari hakaba hari indabyo.

Umugore wambaye igitambaro mu mutwe, wambaye n'umupira w'amaboko maremare ufite ibara ry'umweru akaba akenyeye n'igitenge, akaba afite ijerereka ifite ibara ry'umuhondo, akaba yaje kuvoma amazi, ku ruhande rwe hakaba hari undi mugabo na we waje kuvoma amazi, ku ruhande rwabo hakaba hari ibiti.

Umugore wambaye ibitenge akaba yikoreye ijerekani ifite ibara ry'umuhondo ku mutwe we akaba ari kugenda mu muhanda ku ruhande akaba ari umwanawana wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu, bakaba bahagaze ku rundi ruhande hakaba hari inyubako ndetse n'undi muntu wambaye umwenda ufite ibara ry'umuhondo akaba yunamye.

Umugore wambaye imyenda ifite ibara ry'umweru, akaba yambaye n'igitambaro mu mutwe, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, aho ari kuvura abagore bagenzi be, ku ruhande hakaba hari abandi bantu benshi bategereje, ndetse hari indabyo n'igiti.

Umugore wirabura ufite icyuma cyakoreshejwe cyo gusakaza amajwi aricyo mikoro akaba yambaye umwenda urimo amabara iruhande rwe hakaba undi mugabo wambaye umwenda w'umukara inyuma yabo hakaba hari ibiti ndetse n'ibyatsi.

Benshi bahagaze hakaba higanjemo abambaye imyenda ifite ibara ry'umukara, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore bakaba bahagaze bari gufata ifoto y'urwibutso, bakaba bafite n'urupapuro mu ntoki zabo, inyuma hakaba hari ikinyabiziga ndetse n'amahema.

Abagore bane bicaye ndetse n'umugabo hakaba harimo umugore ufite igikoresho cyabugenewe cyo gukoreshwa basakaza amajwi aricyo mikoro, akaba ari kuvuga, bakaba bari mu nyubako, imbere ye hakaba hateretse imeza iriho uducupa tw'amazi ndetse na mudasobwa.

Umugore wambaye agapfukamunwa ndetse n'ishati ifite ibara ry'umweru, akaba ari umukozi ukorera ikigo nderabuzima, ku ruhande rwe hakaba hari undi mukobwa wambaye agapfukamunwa ndetse ufite ibipapuro mu ntoki, na we akaba ari umukozi ukorera ikigo nderabuzima, hakaba hari umugore wambaye agapfukamunwa gafite ibara ry'ubururu, bakaba bicaye, iruhande rwabo hakaba hari inyubako za nyakatsi.

Abantu benshi baricaye ndetse n'abandi barahagaze, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma y'aho bari hakaba hari inyubako ndetse hakaba hari n'ibiti.

Abantu bambaye imyenda ifite ibara ry'icyatsi bakaba bari kugenda mu muhanda hakaba harimo n'abakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'umutekano hakaba ari umugabo ufite igikoresho cyabugenewe gikoresha basakaza amajwi ku ruhande rw'aho bari kugendera hakaba hari ibiti ndetse n'inyubako.

Umugore wambaye igitenge ndetse n'agapfukamunwa gafite ibara ry'ubururu, akaba ahetse umwana, inyuma ye hakaba hari undi mwana uhahagaze, bakaba bari mu nyubako, bakaba batetse igikoma mu isafuriya kandi umugore akaba ari guseka.

Umugore wambaye igitambaro mu mutwe gifite ibara rya oranje, akaba yicaye, akaba afite umwana wambaye umwenda ufite ibara ry'icyatsi, ku ruhande rwe hakaba hari n'undi mwana mutoya ndetse hakaba hari n'inyubako, imbere yabo hakaba hari agasori karimo ibyo kurya gafite ibara ry'umutuku.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umutuku ndetse n'ipantaro ifite abara ry'umukara, akaba ahagaze mu nyubako y'amakaro, ku ruhande rwe hakaba hari abantu benshi bicaye hakaba arimo abagabo ndetse n'abagore , imbere hakaba hari umugore ufite mikoro akaba ari kuvuga.

Umugore wambaye imyenda ifite ibara y'umukara hakaba harimo n'utudomo tw'umweru; akaba ari umukozi ukuriye ikigo nderabuzima; iruhande rwe hakaba hari abandi bagore bicaye ndetse imbere yabo hakaba hari umugabo; bakaba bari kuganira, inyuma y'aho bari hakaba hari urutoki.

Umukobwa wirabura wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu ndetse n'undi ufite ibara ry'umutuku, arahagaze kandi akaba ari guseka. Inyuma y'aho ari hakaba hari inyubako ndetse hakaba hari n'intebe.

Abagore batatu, barahagaze. bakaba bafite inkoni mu ntoki zabo, umwe muri bo akaba afite umwana, akaba ari kumwosa, ndetse akaba afite n'umufuka, inyuma yabo hakaba hari umusozi, ndetse n'ibiti.

Abantu benshi bahagaze bakaba bambaye imyenda y'amaboko magufi ifite ibara ry'ubururu hakaba harimo n'abandi bambaye indi myenda igiye itandukanye bakaba bahagaze bari gufata ifoto y'urwibutso bakaba bari mu nyubako.

Abantu benshi bahagaze mu nyubako, harimo abagabo ndetse n'abagore. Muri aba bantu bahagaze hakaba harimo n'umuntu ufite uruhu rwera, bakaba bari gukoma amashyi, bakaba bari mu cyumba cy'uruganiriro bari mu nama.

Umugore wambaye ikanzu y'igitenge, akaba afite isakame ndetse akaba afite n'igikoresho bakoresha basakaza amajwi, aricyo mikoro, imbere ye hakaba hahagaze umukobwa wambaye imyenda iri mu mabara y'umutuku ndetse n'umukara ndetse iyo nyubako barimo, ikaba ifite amakaro ndetse hakaba harimo n'abandi bantu benshi, bicaye ku ntebe.

Abantu benshi bahagaze higanjemo abagabo ndetse n'abagore, akaba ari abakozi bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivise z'ubuzima, bakaba bahagaze bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma yaho bari hakaba hari inyubako ndetse n'icyapa.

Abantu benshi barahagaze bari gufata ifoto y'urwibutso, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, muri abo bantu bari gufata ifoto hakaba harimo umuntu ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'umutekano, inyuma hari ibyapa ndetse n'ibiti.

Abantu benshi bahagaze harimo abagabo, abagore, ndetse n'abana. Bakaba bafite amadarapo y'Igihugu mu ntoki zabo, bakaba bariguseka. Bakaba bagiye kwamamaza.

Umuntu wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, akaba afite igikoresho bakoresha basakaza amajwi ari cyo mikoro, arahagaze iruhande rwe hakaba hari abagore batatu, imbere yabo hakaba hateretse telefoni ndetse n'uducupa turimo amazi, bakaba bari mu nyubako, bakaba bari mu nama.

Umugore wambaye amataratara ndetse n'ikanzu ifite ibara ry'umuhondo n'ubururu, akaba ahagaze, akaba afite agapapuro kari mu ibara ry'ivu mu ntoki ze, inyuma ye hakaba ari igikuta ndetse n'inyubako.

Abantu bahagaze bari gufata ifoto y'urwibutso, hakaba harimo abagabo, abagore ndetse n'abantu bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'umutekano, inyuma y'aho bari hakaba hari ibyapa biri mu mabara y'ubururu n'umutuku ndetse n'ibiti.

Abantu benshi bahagaze, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo hakaba hari igikuta, ndetse imbere yabo hakaba hari imeza, hari n'imeza iriho urupapuro.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore bakaba bari gukora inama, akaba ari umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru imbere hakaba hari imeza iteretseho mudasobwa ndetse n'uducupa twa'amazi kandi uwo mugore akaba yambaye amataratara.

Abantu benshi barahagaze hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo, hakaba harimo n'abambaye imyenda bafite ibara ry'umweru, bakaba bafite ibyapa biri mu mabara ya oranje mu ntoki zabo, nyuma yaho bari hakaba hari ibiti ndetse n'inyubako, bakaba bahagaze bari gufata ifoto y'urwibutso.

Abantu benshi barahagaze, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso, aho bafite icyapa kiri mu mabara y'icyatsi ndetse inyuma y'aho bari hakaba hari ibiti, indabyo ndetse n'inyubako.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bose bakaba bari gukora inama. Hakaba hari umugore wambaye imyenda ifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru, akaba ahagaze, akaba ari gutanga imbwirwaruhame.

Abantu benshi barahagaze bakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, abenshi muri bo bakaba bambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, bakaba bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivise z'ubuzima, aho bahagaze mu nyubako, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso.

Abantu benshi barahagaze n'abandi baricaye, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso, aho harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bari mu nyubako inyuma y'aho bari hakaba hari icyapa.

Abantu benshi bari mu cyumba cy'inama, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore aho bari gukora inama, imbere yabo hakaba hari icyuma cyabugenewe cyerekana amashusho ari cyo tereviziyo, hakaba hari n'umugore uhagaze imbere, akaba ari kuvuga.

Abantu benshi, bicaye mu cyumba cy'inama, bakaba bari gukora inama, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba hari umugore wambaye imyenda ifite ibara ry'umweru, n'amataratara, akaba afite ikaramu mu ntoki, imbere ye hakaba hateretse mudasobwa, ndetse n'agacupa k'amazi.

Abantu benshi bahagaze bari gufata ifoto y'urwibutso, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba harimo n'abantu bambaye imyenda ifite ibara ry'umukara, bakaba baje kwerekana ibyo bashoboye gukora.

Umugabo ufite uruhu rwera, wambaye ishati y'amaboko magufi, akaba ahetse n'igikapu, akaba ahagaze, inyuma ye hakaba hari icyapa cy'amabara y'umweru ndetse n'ubururu, akaba ari ay'ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama, bakaba bari gukora inama, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, muri iyo nyubako barimo, hakaba hari icyuma cyabugenewe cyo kwerekana amashusho aricyo tereviziyo.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umukara ndetse n'undi ufite ibara ry'ivu, imbere ye hakaba hari imeza iteretseho telefoni akaba ari umukozi ukuriye ikigo gishinzwe gutanga serivise z'ubuzima, akaba ari mu nyubako, iyo nyubako arimo hakaba harimo abagore babiri bafite abana babiri.

Umugore wambaye umupira w'amaboko maremare, ufite ibara ry'ubururu, akaba yicaye ku ntebe, imbere ye hakaba hari umugore wambaye ikanzu ifite ibara ry'ubururu, ndetse akaba yambaye n'igitambaro gifite ibara ry'umutuku, ku ruhande rw'aho bari hakaba hari ibiti, bakaba bicaye bari kuganira.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama bakaba bari gukora inama, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, akaba ari abantu bicaye imbere akaba ari bo bayoboye iyo nama, hakaba harimo n'abambaye udupfukamunwa, nyuma yaho bari hakaba hari icyapa cy'amabara y'umweru, ubururu ndetse n'icyatsi.

Abantu benshi barahagaze bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore ndetse hakaba harimo n'abantu bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'umutekano, inyuma yabo hakaba hari igikuta kiriho amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara.

Abantu benshi batonze umurongo bakaba baje kwaka serivisi zerekeranye n'ubuzima. Aho hari abantu bambaye imyenda ifite ibara ry'umweru, akaba ari abakozi bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivise z'ubuzima. Ku ruhande rw'aho bari hakaba hari umuhanda wa kaburimbo ndetse n'ibiti.

Umukobwa wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru ndetse n'agapfukamunwa, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, aho ari kuvura umugore amenyo, ku ruhande rwe hakaba hari abandi bantu benshi bari kuvura.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru ndetse n'agapfukamunwa, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, imbere ye hakaba hari umungu uryamye bakaba bari kumuvura amenyo, ku rundi ruhande hakaba haru undi muntu uri kumufasha.

Abantu bambaye imyenda ifite ibara ry'icyatsi bakaba bari kwiborosa, inyuma yabo hakaba hari abantu bambaye imyenda ifite ibara ry'umweru, hakaba hari n'imeza ifite igitambaro cy'umweru iteretseho imiti y'amenyo bakaba bari mu nyubako.

Abantu benshi bari mu nyubako harimo abambaye imyenda y'umweru akaba ari abakozi bo kubera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima ndetse n'abandi bambaye imyenda ifite ibara ry'icyatsi, bakaba baje gufata serivisi muri iyo nyubako barimo hakaba harimo n'abandi bantu bagiye batandukanye.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, akaba afite uburoso bw'amenyo bufite ibara ry'umutuku akaba ari kwiborosa, imbere ye hakaba hari umwana nawe wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru nawe ari kwiborosa, bakaba bari mu nzu.

Umugabo wambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru amataratara ndetse n'agapfukamo gafite ibara ry'umweru akaba ari umukozi w’ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima akaba ari kwandika, ku ruhande rwe hakaba hari ibikoresho bigiye bitandukanye kandi akaba ari mu nyubako.

Umugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, ari kumwe n'umwana wambaye umupira w'icyatsi akaba ari kumwereka uburyo wakwita ku menyo ye. Inyuma yabo hakaba hari abandi bantu, ikibaho ndetse bakaba bari mu nyubako.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, kandi akaba yambaye n'agapfukamunwa, aho ari kuvura umugabo, akaba ari kumuvura amenyo, aho bari mu nyubako.

Umugabo wicaye ku ntebe ifite ibara ry'icyatsi, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, iruhande rwe hakaba hari igitanda cy'abarwayi gifite ibara ry'icyatsi ndetse aho hantu bari, hakaba harimo ibikoresho byose bakoresha bavura.

Umugabo wambaye amataratara agapfukamunwa ndetse n'umwenda w'ubururu ku ruhande rwe hakaba hari undi mugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru agapfukamunwa ndetse n'amataratara akaba ari abakozi bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima aho bari kuvura umugore amenyo bakaba bari mu nyubako.

Abantu benshi baricaye ndetse n'abandi barahagaze, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso, muri abo bantu bari gufata ifoto y'urwibutso hakaba harimo umuntu ufite uruhu rwera, inyuma yabo hakaba hari inyubako.

Umugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'umukara, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, ku ruhande rwe hakaba hari umukobwa wambaye umwenda ufite ibara ry'umukara na we akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, bakaba bari kuvura umuntu uryamye ku gitanda, bakaba bari mu nyubako.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu ryerurutse, akaba afite n'urupapuro mu ntoki, akaba ari guseka, ku ruhande rwe hakaba hari umugore wambaye amataratara, umwenda ufite ibara ry'umutuku ndetse n'umukara na we akaba afite urupapuro n'ikaramu bakaba bari kwandika, bakaba bari mu nyubako iriho imeza ndetse n'ibyapa.

Umuntu wambaye umwenda ufite ibara ry'icyatsi, amataratara, ndetse n'agapfukamunwa, akaba ari umukozi, ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, hakaba hari umwana uryamye ku ntebe, bakaba bari kumukura iryinyo, bakaba bari mu nyubako, irimo ibikoresho bigiye bitandukaye, bakoresha bavura.

Umukobwa ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivise z'ubuzima. Akaba yambaye umwenda w'amaboko magufi. Akaba ari gusunika umugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'ivu w'amaboko maremare, ndetse akaba yambaye n'amataratara. Akaba ari kumusunika mu kagare. Inyuma y'aho bari hakaba hari inyubako ndetse n'ibiti.

Umukobwa wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru akaba ari umukozi w'ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, iruhande rwe hakaba hari umugabo akaba ari kumufasha kugenda bakaba bari mu nyubako.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, ku ruhande rwe hakaba hari umukecuru wicaye ari kunywa imiti, akaba afite ikirahure kirimo amazi ndetse bakaba bari mu nyubako.

Umugabo wirabura akaba ari umugabo ukuze akaba yambaye amataratara ishati ifite ibara ry'icyatsi ndetse n'umupira ufite iba ry'ivu, akaba yicaye mu nyubako aho afite ikaramu mu ntoki akaba ari kwandika.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare irimo amabara y’umutuku akaba afite agacupa karimo imiti imbere ye hakaba hari imeza iteretseho imiti ,impapuro telefoni ndetse na mudasobwa ,ku ruhande rwe akaba hari umuntu wambaye amataratara ndetse bakaba bari mu nyubako.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi irimo n'uturongo tw'umukara aricaye, akaba afite igikoresho cy'ikoranabuhanga aricyo telefoni mu ntoki ze, ku ruhande rwe hakaba hari umugore, imbere yabo ku meza hakaba hari ikirahure cy'amazi ndetse n'imiti kandi bakaba bari mu nyubako.

Abagore bari kugenda mu muhanda w'ibitaka, bakaba bambaye imyenda ifite iba ry'umweru ndetse n'umutuku, bakaba bafite n'udukoni, iruhande rwabo hakaba hari abandi bantu benshi bari kugenda bambaye imyenda ifite iba ry'umweru, umukara ndetse n'umutuku, hakaba ari urutoki ndetse n'inyubako.

Umugore wambaye umupira w’amaboko maremare akaba ari guteka iruhande rwe akaba hahagaze umugore wambaye amataratara ufite ikirahure hakaba harimo icyo kunywebwa nawe amuhagaze iruhande bakaba bari kuganira bakaba bari mu nyubako.

Umuhungu wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, akaba akorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, akaba yicaye, iruhande rwe hakaba hari umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara rya kacyi, imbere yabo hakaba hari imeza iteretseho ikaramu ndetse n'urupapuro, uwo muganga akaba ari kumusobanurira.

Umukobwa wambaye imyenda ifite ibara ry'umukara, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, aho ari kumwe n'umusaza, wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, akaba ari kumufasha kugenda, bakaba bari munzu.

Umuntu wambaye imwenda ufite ibara ry'umweru, akaba ari umurwayi, akaba aryamye ku gitanda cy'abarwayi, iruhande rwe hakaba hari ibikoresho byabugenewe abakoresha bavura, ku ruhande rwe hakaba hari undi muntu wambaraye w'umupira w'umweru, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu bwerurutse akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima. Iruhande rwe hakaba hari umugabo akaba ari kumufasha kugenda inyuma yabo hakaba hari ibikoresho bigiye bitandukanye kandi bakaba bari mu nzu.

Umukobwa ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, akaba yambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, ku ruhande rwe hakaba hari umugabo wambaye umwenda ufite ibara rya shokora, bakaba bari kumuvura, bakaba bari mu nyubako.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivise z'ubuzima, iruhande rwe hakaba hari umugore wicaye mu kagare ubana n'ubumuga, akaba ari kumuvura bakaba bari mu nyubako.

Umugabo wambaye ishati, akaba yambaye n'amataratara, akaba afite igikoresho cy'ikoranabuhanga ari cyo telefoni, akaba agifite mu ntoki ze, ku ruhande hakaba hari undi mugore, bakaba bicaye mu nyubako, imbere yabo hakaba hari imeza iriho impapuro.

Umukobwa wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima akaba ari mu nyubako imbere akaba ari umugore wambaye amataratara akaba yicaye mu kagare k'abantu babana n'ubumuga.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ryerurutse, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima. Imbere ye hakaba hari umudamu uhicaye, bakaba bari kumuha imiti. Bakaba bari mu nyubako.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umuhondo, ndetse n'amataratara, akaba yicaye mu nyubako, imbere ye hakaba hari imeza iriho imiti, ndetse uwo mugore akaba ari kunywa imiti, hanze y'iyo inyubako ye hakaba hari ibiti.

Umugabo wambaye umupira ufite ibara ry'umutuku, akaba afite isahani iri ibiryo, ku ruhande akaba hari umugore uhahagaze wambaye umwenda w'umukara n'amataratara asa nk'ukuze ,ku ruhande akaba hari umukobwa wambaye umupira w'umweru wamaboko maremare, inyuma yabo akaba ari idirishya ndetse bakaba bari mu nyubako.

Umugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'umuhondo akaba yambaye n'amataratara akaba yicaye mu kagare k'ababana n'ubumuga, kuruhande rwe hakaba hari umwana wambaye umupira ufite ibara ry'icyatsi bakaba bari gukina bakaba bicaye mu nzu.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru n'umukara, akaba ari umukozi kurera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, akaba ari mu nyubako akaba afite igikoresho cyabugenewe bakoresha aricyo telefoni, ku ruhande rwe hakaba hari umugabo wambaye umwenda w'umukara akaba ari kumufasha kugenda.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umutuku urimo n'uturongo tw'umukara, akaba ahagaze, iruhande rwe hakaba hari umugabo wambaye umwenda w'ibara ry'umutuku ndetse n'amataratara, bakaba bafite imiti, inyuma yabo hakaba hari ibikoresho bigiye bitandukanye ndetse n'inyubako barimo ikaba ifite ibara ry'umweru.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'icyatsi ndetse n'agapfukamunwa. Akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivise z'ubuzima. Imbere ye hakaba hari umugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu n'agapfukamunwa. Akaba yicaye ku ntebe aho barikumuvura. Ahantu bari hakaba hari ibiti ndetse n'inyubako.

Umugore wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umukara akaba yicaye hasi, akaba ari kugorora umubiri we ku ruhande hakaba hari itara, intebe ndetse n'igiti kandi uwo mugore akaba ari mu nyubako.

Umukobwa wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu, akaba ari umukozikora ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, iruhande rwe hakaba hari umugabo wicaye mu ntebe, akaba afite n'inkoni kandi bakaba bari mu nyubako.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'ivu ndetse n'agapfukamunwa, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, iruhande rwe akaba hari umugabo wambaye umwenda ufite ibara rya kaki, akaba ari kumufasha kugenda bakaba bari no mu nyubako.

Umuhungu wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, ku ruhande rwe hakaba hari umugore nawe wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu akaba ari umurwayi, akaba afite n'inkoni mu ntoki ze bakaba bicaye mu nyubako.

Umugabo wambaye umwenda ufiite ibara ry'umweru, akaba yambaye n'amataratara, akaba ari guseka, ku ruhande rwe hakaba hari umugore nawe uri guseka, bakaba bari gukina imikino, bakaba bicaye mu nyubako.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko marema ifite ibara ry'umweru irimo n'uturongo, akaba ateze igitambaro gifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru, akaba yambaye n'ingofero ifite ibara ry'umukara, ku ruhande hakaba hari umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu ndetse n'urunigi, nawe akaba akenyeye inyuma yabo hakaba hari abandi bantu benshi harimo nk'abagabo ndetse n'abagore.

Umugore wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima ku ruhande rwe hakaba hari umugabo wambaye amataratara ndetse n'ishati y'amaboko maremare afite ibara ry'ubururu, akaba yicaye ku buriri bombi bakaba bari mu nyubako.

Umugore wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, akaba afite ikirahure kirimo amazi ndetse n'imiti mu ntoki ze, akaba ahagaze mu nyubako inyuma ye hakaba ibikoresho byo mu nzu.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, iruhande rwe hakaba hari umugabo wicaye mu kagare akaba yambaye umwenda ufite ibara ry'umweru bakaba bari mu nyubako.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi irimo uturonko tw'umukara ari kugendera ku gakoresho kabugenewe k' abantu babana n'ubumuga, ku ruhande rwe hakaba hari umugoreba akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima akaba ari kumufasha.

umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare iri mabara ariyo umutuku, umweru ndetse n'umukara; akaba afite isorori cyangwa isahani irimo ibiryo ndetse akaba afite n'ikiyiko; akaba ari kwarurira ku yandi masahane; aho hantu ari hakaba hari abandi bantu bari gusangira kandi bakaba bari mu nyubako.

Umugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, n'amaboko maremare, akaba yicaye, iruhande rwe hakaba hari umugore nawe wambaye umwenda ufite ibara ry'umutuku ryererutse, imbere yabo hakaba hari amasahane ariho ibyo kurya, bakaba bari kuganira.

Abagore batatu barahagaze bakaba bari kwifotoza bakaba barimo guseka, bakaba bafite telefoni mu ntoki zabo, inyuma y'aho bari hakaba hari ikinyabiziga ndetse n'ibiti bakaba bari hanze.

Umugore wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, ku ruhande rwe akaba ari umugabo wambaye amataratara ndetse n'umupira w'amaboko magufi akaba ariwe bari kuvura, inyuma yabo hakaba hari undi mukobwa wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, akaba yicaye kandi bakaba bari mu nyubako.

Umugabo wambaye ikanzu ndetse n'undi wambaye ishati bakaba bahagararanye n'abagore benshi, muri abo bagore hakaba harimo abafite isuka, bakaba bari mu murima w'ibigori bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso.

Umuhungu ufite uruhu rwera, akaba yambaye imyenda ifite ibara ry'ivu, akaba yambaye n'amataratara, inyuma ye, hakaba hari abantu bicaye. Imbere ye, hakaba hari umusaza ndetse n'umukecuru. Bakaba bari kurya.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'ivu ndetse n'umweru akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, aho ari gusuka umutobe mu kirahure, imbere ye hakaba hari umugabo wambaye umwenda w'umweru akaba ari kurya, imbere ye hakaba hateretse ibiribwa by'ubwoko bugiye butandukanye bakaba bari mu nyubako.

Abantu bari kugenda ku murongo, akaba higanjemo abagore benshi, hakaba harimo n'abambaye imyenda ifite ibara y'umweru, ndetse n'amajipo bafite ibara ry'umukara hakaba harimo n'abambaye udupfukamunwa, inyuma yabo hakaba hari igiti.

Umugore wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, iruhande rwe hakaba hari umugabo wambaye ishati, ufite telefoni mu ntoki, bakaba bari mu nyubako.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu, akaba ahetse igikapu, akaba yambaye n'ikoti. Akaba afite agapfunyika mu ntoki ze ku ruhande hakaba hari umugore uri kugenda. Ariko akaba ari kwifashisha agace kabugenewe, ku ruhande rwabo hakaba hari ibyatsi ndetse n'ibiti.

umugore wambaye umwenda ufite iba ry'ubururu bwerurutse ndetse n'umweru, akaba ahagaze akaba ari gutanga imbwirwarome, akaba afite igikoresho cyabugenewe cyo gusakaza amajwi ari cyo mikoro, inyuma ye hakaba hari inyubako, ibinyabiziga ndetse n'ibiti.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, imbere ye hakaba hahagaze umugabo wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, akaba ari kuvurwa kandi bakaba bari mu nyubako.

Umuhungu ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, akaba ari kumwe n'umusaza, akaba ari kumufasha kugorora umubiri we, umusaza akaba yambaye umwenda ufite ibara ry'umuhondo, bakaba bari mu nyubako, inyuma y'aho bari hakaba hari akabati.

Umukobwa wambaye umwenda ufite ibara ry'icyatsi, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, imbere ye hakaba hari umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, akaba ari we bari kuvura, bakaba bari mu nyubako.

Umugabo wambaye ishati ifite ibara ry'umutuku ryerurutse, akaba yambaye n'amataratara, akaba afite ikaramu mu ntoki ze, akaba yifashe ku kananwa, imbere ye hakaba hari ikayi ndetse akaba yicaye no mu nyubako.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivise z'ubuzima, akaba yicaye mu nyubako, ku ruhande rwe akaba ari umugabo wambaye amataratara ndetse n'ishati ifite ibara ry'umutuku, bakaba bari kumuvura.

Umukobwa ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima akaba ari gutanga serivisi, akaba ari kumwe n'umugore wambaye umwenda w'amaboko maremare ufite ibara ry'ubururu, akaba arimo kumufasha kugorora imibiri aho bari mu nyubako.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu. Akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima. Akaba afite n'uruhu rwera. Ku ruhande rwe hakaba hari umugabo wambaye ishati y'ubururu y'amaboko maremare. Bakaba barikumufasha kugenda. Bakaba bari no mu nyubako.

Umugabo muremure wambaye amataratara akaba yambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu ryererutse ndetse n'ipantaro ifite ibara ry'umukara, akaba afite udukoresho dufite ibara ry'umutuku bakoresha bagorora umubiri akaba ari hanze ku ruhande rwe hakaba hari ibiti.

Umuntu wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu, akaba ari umurwayi, akaba afite agakoresho kabugenewe gafasha umuntu kugenda, inyuma ye hakaba hari igitanda baryamaho, uwo muntu akaba ari mu nyubako.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu; akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima; akaba yicaye mu ntebe; imbere ye hakaba hari umugabo wambaye amataratara; akaba bari kumupima umuvuduko w'amaraso.

Abantu bicaye mu nyubako, hakaba harimo umukobwa wambaye umupira ufite ibara ry'umutuku ndetse n'umugore wambaye umwenda w'umukara ndetse undi mwenda ufite ibara ry'ivu ndetse n'undi mugore wambaye imyenda irimo uturongo tw'umweru, bakaba bari gukina amakarita.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu, akaba yicaye, ku ruhande rwe hakaba hari umugabo ufite telefoni mu ntoki ze, imbere yabo hakaba ari imeza irimo ikirahuri cy'amazi, ndetse uwo mugore akaba afite urupapuro kandi bakaba bicaye mu nyubako.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu, akaba yambaye n'amataratara, akaba ahagaze mu cyumba, imbere ye hakaba hari umugabo uri kunywa amazi ku ruhande rwe hakaba hari igitanda.

Umukobwa wambaye umwenda ufite ibara ry'umutuku, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, iruhande rwe hakaba hari umugabo wambaye amatatara, akaba yicaye mu kagare k'abantu bana n'ubumuga, bakaba bari mu nyubako.

Abantu bicaye mu byatsi harimo n'abicaye ku ntebe zifite ibara ry'umutuku ndetse n'umukara, hakaba harimo abagore, abagabo ndetse n'abana. Muri abo bantu bicaye hakaba harimo n'umuntu ufite uruhu rwera, inyuma y'aho bari hakaba hari ibiti ndetse n'ibyatsi.

Umugore ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, akaba yambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu ryererutse, akaba ari kumwe n'umugabo, akaba yicaye mu kagare k'abantu babana n'ubumuga, bakaba bari mu nyubako, inyubako barimo hakaba harimo ndetse n'abandi bantu bicaye.

Abantu benshi bahagaze, bakaba bambaye imyenda ifite ibara ry'umweru, bakaba bitwikiriye umubiri wose, ndetse bakaba bambaye udupfukamunwa, bakaba bahagaze mu nyubako, inyuma yabo hakaba hari undi mugabo uhahagaze.

Abantu benshi bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bambaye imyenda ifite ibara ry'umweru, bakaba bafite n'ibyapa inyuma yabo hakaba hari inyubako ndetse n'ibiti.

Abantu benshi barahagaze, hakaba harimo abagabo n'abagore ndetse n'abona bafite uruhu rwera, inyuma y'aho bari hakaba hari icyapa kiri mu mabara y'umweru n'ubururu ndetse hakaba n'ikinyabiziga kandi bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso.

Umugore wambaye amataratara ndetse n'imyenda ifite ibara ry'umukara, akaba afite agatabo, akaba afite igikoresho bakoresha basakaza amajwi ari cyo mikoro, akaba yicaye no mu ntebe, inyuma ye hakaba hari icyapa kiri mu mabara y'ubururu.

Umugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, akaba yambaye amataratara ndetse n'agapfukamunwa, aho ari gute urushinge umuntu wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu ndetse n'agapfukamunwa, aho hantu bari hakaba hari n'abahandi bantu benshi.

Umugore wambaye agapfukamunwa ndetse n'umwenda ufite ibara ry'umukara, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, inyuma ye hakaba hari abantu babiri bahagaze, umwe yambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu, undi nawe yambaye umwenda ufite ibara ry'icyatsi, bombi bakaba bambaye n'udupfukamunwa, na bo akaba ari abakozi bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima.

Abantu bambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu bakaba ari abakozi bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, aho abo abantutu bambaye n'udupfukamunwa bakaba bari kubaga, bakaba bari mu nyubako irimo ibikoresho byabugenewe babakoresha babaga.

Umugabo wambaye umupira ufite ibara rya oranje, iruhande rwe hakaba hari undi muntu wambye amataratara, bakaba bahagaze, bakaba bafite ibyapa biri mu mabara y'icyatsi ndetse n'ubururu, inyuma y'aho bari hakaba hari igipangu ndetse n'ibiti.

Umugabo wambaye ikoti rifite ibara ry'umukara ndetse n'ishati, akaba ahagaze akaba afite uruhu rwera, ku ruhande rwe hakaba hari umukobwa wambaye ikanzu, hagati yabo hakaba hari icyapa, bakaba bahagaze mu nyubako ifite amakaro aho bahagaze bari gufata ifoto y'urwibutso.

Umugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu, akaba yambaye n'amataratara, akaba afite impapuro mu ntoki ze, akaba afatanya mu biganza n'undi mugabo wambaye ikoti rifite ibara ry'ubururu, inyuma yabo hakaba hari icyapa gifite ibara ry'umweru, abo bagabo bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso.

Abantu benshi bicaye mu nyubako harimo abagore, bakaba bambaye imyenda ifite ibara ry'umweru bakaba bicaye no ku ntebe zifite ibara ry'umweru, imbere yabo hakaba hari umugore uri kubabwira.

Abantu benshi baricaye, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bose bakaba bicaye mu nyubako, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso, ku ruhande rw'aho bari hakaba hari ibyapa bigiye bitandukanye.

Abantu benshi baricaye, ndetse n'abandi barahagaze, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso, bakaba bari mu nyubako, hakaba hari imeza ifite ibara ry'umweru...

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru, akaba afite igikoresho cyabugenewe bakoresha basakaza amajwi, akaba ari gutanga imbwirwaruhame, akaba ari mu nyubako, hakaba harimo n'abandi bantu ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye.

Abantu bahagaze ndetse n'abandi bicaye, hakaba higanjemo abambaye imyenda ifite ibara ry'umutuku ryerurutse, bakaba bafite n'ibikapu bifite ibara ry'umweru, hakaba harimo n'abambaye udupfukamunwa, ndetse hakaba n'undi uri kubafotora, inyuma y'aho bari, hakaba hari icyapa ndetse n'inyubako.

Abantu bambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, bakaba ari abakozi bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, hakaba hari umuntu uryamye ku gatanda ndetse hakaba n'abandi bantu ku ruhande bari gufasha, aho hari n'igiti.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore bakaba bari gukora inama, imbere yabo hakaba hari abantu benshi bicaye akaba aribo bayoboye inama.

Abantu benshi bari mu cyumba cy'inama, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bari gukora inama, aho hari abantu bicaye imbere, akaba ari bo bayoboye inama kandi hakaba hari ibyapa biri mu mabara y'umweru, umutuku ndetse n'ubururu.

Abantu benshi baricaye ndetse n'abandi barahagaze, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso, bakaba bari mu nyubako, inyuma y'aho bari hakaba hari icyapa kiri mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi.

Abantu bambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu ndetse n'amataratara bakaba bambaye n'udupfukamunwa, akaba ari abakozi bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, hakaba hari umugore ufite uruhu rwera, bakaba bari mu nyubako aho bari kuvura umuntu uryamye ku gitanda.

Abantu benshi, bicaye mu cyumba cy'uruganiriro, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bari mu nama, imbere yabo hakaba abantu batatu bicaye, harimo abagore babiri ndetse n'umugabo, ndetse hakaba hari n'icyapa, bakaba bari mu nama yerekeranye n'ubuzima.

Abagabo batatu ndetse n'abagore batatu barahagaze, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma y'aho bari hakaba hari icyapa gifite ibara ry'ubururu, kiri mu magambo y'umweru, bakaba bari no mu nyubako mu imbere.

Abantu benshi bari kugenda mu muhanda, harimo abagabo, abagore ndetse n'abana, bakaba bafite icyapa kiri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku, bakaba bari no kugenda mu muhanda wa kaburimbo, ku ruhande hakaba hari ibikuta inyubako ndetse n'ibiti.

Umuhungu wambaye ishati ifite ibara ry'umukara arahagaze mu nyubako kuruhande rwe akaba ari umugore wambaye imyenda nawe ufite ibara ry'umukara bakaba bafite icyapa cymabara y'umukara inyuma yabo akaba hari amadarapo iruhande rw'umugore akaba ari intebe ifite ibara ry'umukara bakaba bahagaze bari gufata ifoto y'urwibutso.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, imbere yabo hakaba bateretse mudasobwa ndetse n'uducupa tw'amazi, hakaba hari umugabo ufite mikoro, akaba ari gutangage imbwirwaruhame.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima. Imbere ye akaba ari umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umukara akaba yaje guhabwa serivisi z'ubuzima aho hantu bari hakaba hari n'abandi bantu benshi baje kwaka serivisi.

Abantu batatu bahagaze imbere y'inyubako, akaba ari inyubako y'ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima ndetse kuri iyo nyubako hakaba hariho undi muntu wicaye, ku ruhande rw'iyo nyubako hakaba hari hari izindi nyubako ndetse n'abandi bantu bari kugenda.

Imodoka ifite ibara rya shokora, ikaba iparitse iruhande rwayo hakaba hari umuntu uhahagaze, inyuma yayo hakaba hari abantu batatu bahagaze bakaba bari kuganira, ndetse iruhande rwabo hakaba hari inyubako nini, ndetse hakaba hari n'indabyo n'igiti.

Abagore bane bahagaze, bakaba bambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, ndetse n'udupfukamunwa, bakaba ari abakozi, bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, barahagaze, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma y'aho bari, hakaba hari inyubako y'ibyatsi, ndetse n'indabo.

Umugabo wambaye umupira ufite ibara ry'umweru, akaba ari umukozi w'ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, akaba yambaye n'amataratara. Inyuma ye hakaba hari ibikoresho byabugenewe byo kuzimya umuriro, bikaba bifite ibara ry'umutuku, ku ruhande rwe hakaba hari umugabo bari kuvura, bakaba bari kumupima amaraso.

Inyubako itarimo abantu hakaba harimo imeza, intebe ndetse n'ibiti. Intebe zikaba zifite ibara ry'ivu, imeza zikaba zifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru hakaba harimo n'amatara.

Umugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru ndetse n'umukara, akaba ahagaze mu nyubako, imbere ye hakaba hari icyapa gifite ibara ry'umutuku ndetse n'umukara, akaba ari kuvuga, ku ruhande rwe hakaba hari umugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'umutuku, imbere ye hakaba hateretse mudasobwa.

Abantu bambaye imyenda ifite ibara ry'umweru, akaba ari abakozi bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, ku ruhande rwabo hakaba hari umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'amataratara akaba yaje guhabwa serivisi, ku ruhande rwabo hakaba hari imashini bakoresha bavura, ndetse hakaba hari n'undi mugore uhicaye.

Inyubako nini ikaba ifite icyapa kiri mu mabara y'icyatsi hejuru yayo akaba ari inzu yabugenewe yo kuvurirwamo abarwayi, imbere yayo hakaba hari ibyapa, amadarapo, ibiti ndetse n'abagenzi bari kugenda.

Umugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, iruhande rwe hakaba hari umwana wambaye umupira ufite ibara ry'icyatsi, akaba afite amenyo mu ntoki ze, inyuma ye hakaba hari abandi bantu benshi ndetse hakaba n'ikibaho bakaba bari mu ishuri.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'icyatsi akaba afite n'igitambaro mu mutwe, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, imbere ye hakaba hari umwana uryamye, hakaba ndetse hari n'ibikoresho bigiye bitandukanye, bakaba bari mu bitaro.

Abantu benshi bari mu nyubako, bakaba bambaye imyenda ifite ibara ry'umweru, bakaba ari abakozi bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, aho bari hakaba hari utubati duteretsemo imiti kandi bakaba bari mu nyubako ifite ibara ry'umweru.

Umuntu wicaye mu kagare k'ababana n'ubumuga akaba arahagaze, ku ruhande rwe hakaba hari inyubako ifite ibara ry'umweru ndetse iruhande rw'inyubako hakaba hari umuntu uri kuhagenda wambaye umupira ufite ibara ry'umuhondo, aho hantu bari hakaba hari ikigega ndetse n'ibyatsi.

Inyubako ndende bakaba batangiramo serivisi zerekeranye n'ubuzima, ku ruhande rw'iyo nyubako hakaba ari abagabo batatu bahagaze, iruhande rwabo hakaba haparitse ikinyabiziga ndetse no ku rundi ruhande hakaba haparitse ikinyabiziga.

Umuntu wambaye imyenda ifite ibara ry'umweru akaba ari umukozi ukora mu kigo gishinzwe gutanga serivisi z’ubuzima aho ari gutera urushinge umugabo ku ruhande hakaba hari abandi bantu benshi.

Inyubako ndende ikaba ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, ikaba ifite icyapa kinini kiri mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi, iruhande rw'iyo nyubako hakaba haparitse ipikipiki ndetse hakaba hari n'ibiti.

Umugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, aho yambaye n'agapfukamunwa, akaba afite agacupa mutoki ze, akaba ari mu nyubako irimo ibikoresho bigiye bitandukanye.

Umugore uhetse umwana akaba yambaye n'igitenge, inyuma ye hakaba hari ibyatsi, imbere ye hakaba hari inyubako iyo nyubako akaba ari iy'ikigo gishinzwe gutanga serivise z'ubuzima.

Inyubako ifite icyapa kiri mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi, akaba ari inyubako bacururizamo imiti hakaba hari umugabo uhagaze wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru ndetse hakaba hahagaze n'umumotari ndetse n'ipikipiki ye.

Umuhungu wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'ingofero ifite ibara ry'umukara, akaba afite telefoni mu ntoki ze akaba yicaye mu nyubako, imbere ye hakaba hari abandi bantu benshi harimo abaje kwaka serivisi ndetse n'abandi bari kuzitanga.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, akaba akorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, akaba ari gufasha umugore wambaye isengeri, uryamye ku buriri, muri iyo nyubako barimo hakaba n'undi mugore ku ruhande uryamye ku gitanda.

Abantu benshi barahagaze hakabamo abagabo, abagore ndetse n'abantu bafite uruhu rwera akaba hari n'umugore umwe usutamye bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso, aho hantu bari inyuma hakaba ari inyubako, ibiti, ndetse n'ibyatsi.

Abantu bambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu ndetse n'agapfukamunwa, bakaba ari abakozi bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, bakaba bahagaze bari gufata ifoto y'urwibutso, aho inyuma yaho bari hakaba hari icyapa kiri mu mabara y'icyatsi ndetse n'umukara.

Inyubako irimo abantu benshi harimo abakozi bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, bakaba bambaye imyenda y'umweru ndetse bakaba bari gutanga serivisi, hakaba harimo ababana n'ubumuga ndetse n'abandi bantu kandi bakaba bambaye udupfukamunwa.

Umugore wambaye imyenda ifite ibara ry'umweru ndetse n'agapfukamunwa, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, imbere ye hakaba hari umwana wambaye imyenda ifite ibara ry'umweru, bakaba bari kumuvura, inyuma yabo hakaba hari akabati karimo imiti kandi bakaba bari mu nzu mo imbere.

Umugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu, akaba ari umukozi akora ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, iruhande rwe hakaba hari umugore wambaye ikanzu y'ibitenge, inyuma ya bo hakaba hari inyubako, ku urundi ruhande hakaba hari urutoki ndetse n'indabyo.

Umugore wambaye amataratara, wambaye n'umwenda ufite ibara ry'ubururu, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, iruhande rwe hakaba hari umugore wambaye ishati y'ibara ry'umweru, akaba ateruye umwana, bakaba bari no mu nyubako.

Umuntu wambaye ishati y'amoko maremare ifite ibara ry'umutuku ndetse n'ipantaro ifite ibara ry'umukara akaba ari kugenda. Ku ruhande rwe hakabaho undi mugabo wambaye umupira ufite ibara ry'umutuku na we ari kugenda, inyuma yabo hakaba hari inyubako nini ifite ibara ry'umweru ndetse hakaba hari n'ibiti.

Umugore wambaye amataratara ndetse n'agapfukamunwa, akaba ari umugore ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, akaba yicaye, imbere ye hakaba hari abagore babiri baje kwaka serivisi, iruhande rw'aho bari hakaba hari ibiti.

Abantu benshi barahagaze ku nyubako, bakaba baje kwaka serivisi zerekeranye n'ubuzima aho harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba hari n'inyubako ndetse hakaba hari n'ikinyabiziga gifite ibara ry'umukara, hakaba hari n'ibiti n'ibyatsi.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru akaba yambaye n'amataratara, akaba ari umukozi ukoreraye ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, akaba ari kuvura umugore uryamye ku gitanda. Ku ruhande rwabo hakaba hari ilido bakaba bari no mu nyubako ifite ibara ry'umuhondo.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru ndetse n'agapfukamunwa, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, aho ari kuvura umuntu, umuntu ari kuvura akaba yambaye ishati y'amaboko magufi ndetse n'ipantaro ifite ibara rya shokora, ahantu bari hakaba hari undi muntu waje kuvurwa ndetse hari undi uri kuvura.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima. Akaba afite urupapuro ari kwandika, imbere ye kaba hari umugore ukenyeye igitambaro mu mutwe, bakaba bari kuvugana bakaba bicaye mu nyubako, inyuma yabo hakaba hari undi mukozi ushinzwe gutanga serivisi z'ubuzima.

Abagore batatu barahagaze, bakaba bambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu ndetse n'ibitambaro bifite ibara ry'umweru, ibyo bitambaro bakaba babyambaye mu mutwe, akaba ari abakozi bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, inyuma yabo hakaba hari umuhanda w'ibitaka, ibyatsi ndetse n'ibiti.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, imbere hakaba hateretse ibikoresho byabugenewe babikamo imiti ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, bikaba bifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu akaba ari mu nyubako.

Abantu benshi bari mu nyubako hakaba barimo abicaye ndetse n'abahagaze, bakaba bambaye imyenda ifite ibara ry'umweru bakaba ari abakozi bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima aho bari gupima ibintu bakaba bari mu nyubako.

Umuntu wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu akaba ari umukozi ukubera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima akaba ari kugenda mu nyubako imbere ye hakaba hari abandi bantu benshi bakorana bakaba bambaye n'udupfukamunwa.

Abantu benshi barahagaze hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bambaye n'udupfukamunwa hakaba harimo n'abandi bambaye imyenda ifite ibara ry'icyatsi akaba ari abakozi bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, iruhande rwabo hakaba hari inyubako ndetse n'abandi bantu.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, aho ari kuvura umurwayi uryamye ku gitanda, aho hantu ari hakaba hari ibikoresho bakoresha bavura.

Umuhungu wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu akaba ari gukora amasuku mu kigo cy'abarwayi, iruhande rwe hakaba n'abandi bakozi bakorana na bo bari gukora amasuku, hakaba hari ibitanda byinshi cyane biriho abarwayi.

Abantu benshi bicaye ndetse n'abandi bahagaze, hakaba higanjemo abambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu, akaba ari abakozi bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, aho bahagaze bari gufata ifoto y'urwibutso, nyuma y'aho bari hakaba hari inyubako.

Umuntu wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, agapfukamunwa gafite ibara ry'umutuku, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, aho imbere yateretse imashini z'ubwoko butandukanye. Ku ruhande hakaba hari abantu baje kureba.

Inyubako ifite ibara ry'ubururu ndende, hakaba hari abantu benshi bahagaze ku mpande zigiye zitandukanye ziyo nzu, hakaba hari n'imodoka iparitse ndetse iruhande rwiyo modoka hakaba hari umuntu, hakaba hari n'ibiti ndetse n'indabyo.

Abagabo babiri bambaye imyenda ifite ibara ry'umweru, akaba ari abakozi bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, bakaba bambaye n'udupfukamunwa bakaba bahagaze mu nyubako, imbere yabo hakaba hari igikoresho cyabugenewe bakoresha bavura.

Abantu benshi batonze umurongo, hakaba harimo abagabo, ndetse n'abagore, bakaba baje kwaka serivisi z'ubuzima, hakaba harimo n'ababana n'ubumuga bari kugendera ku tugare, bakaba bari mu nyubako.

Umugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru ndetse n'umukara, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivise z'ubuzima, iruhande rwe hakaba hari inyubako, akaba hari ibitaro, ndetse hakaba hari ibyatsi.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, amataratara ndetse n'agapfukamunwa, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivise z'ubuzima, imbere hakaba hari umugore uhicaye akaba ateruye akana mu ntoki ndetse aba bantu bakaba bari mu nzu.

Umuntu wambaye imyenda ifite ibara ry'umutuku, ndetse n'umukara akaba ari mu nyubako yabugenewe bakoreramo siporo, hakaba ibikoresho bigiye bitandukanye, hakaba hari undi muntu uri kumufasha.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umutuku ndetse n'ubururu, akaba ari umugore ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, akaba ari gusuzuma umwana, ku ruhande rwabo hakaba hari ibikoresho bigiye bitandukanye kandi bakaba bari mu nzu.

Umuntu wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, akaba ari mu nyubako. Ku ruhande rwe hakaba hari umuntu wicaye akaba ari kugorora amaguru akaba afite ikibazo kandi bakaba bari mu nzu.

Abantu benshi baricaye, ndetse n'abandi barahagaze, bakaba bambaye udupfukamunwa, hakaba barimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba ari abakozi bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, aho imbere yabo hari televiziyo, mudasobwa, imeza ndetse bakaba no mu nyubako.

Umugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima imbere ye akaba ari umuntu wambaye umwenda w'ibara ry'umukara akaba afite umugozi ufite ibara ryu umuhodo mu ntoki ze bakaba bari mu nyubako uwo mugabo akaba ari kugorora umubiri we.

Umuhungu wambaye imyenda ifite ibara ry'umukara, akaba ari mu cyumba bakorermo imyitozo ngororamubiri, ku ruhande rwe hakaba ibikoresho bigiye bitandukanye bakoresha mu myitozo. Akaba ari mu nzu mu imbere ifite irangi ry'umweru.

Umugore wambaye imyenda ifite uburyo umweru ndetse n'ivu akaba ari umubikira akaba apfukamye imbere akaba yicaranye n'umwana ndetse kurundi ruhande akaba ari umu umugore ufite uruhu rwera akaba ari mu nyubako irimo intebe ibikinisho by'abana ndetse n'abandi bantu

Umuntu wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, akaba wari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, akaba ari mu nyubako, imbere ye hakaba hari umugore uryamye ku ntebe, akaba afite ikibazo cy'akaguru.

Umukobwa ufite imibiri yombi akaba yambaye imyenda ifite ibara ry'umukara ndetse akaba ari no kunywa amazi, akaba ari kuyanywera mu icupa, akaba yari ari muri siporo, ku ruhande rwe hakaba hari ibiti.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi zubuzima, iruhande rwe hakaba hari umugabo wambaye imyenda ifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara, bakaba bari kumufasha kugorora amaguruye kandi bakaba bari mu nyubako.

Umuntu wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima; akaba ari mu nyubako. Imbere ye hakaba hari umugabo uryamye wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi, bakaba bari kumuvura amaguru.

Umugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi, akaba ari umukozi ukorera Ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, ku ruhande rwe hakaba hari umugabo wambaye imyenda ifite ibara ry'umutuku, akaba ari umukinnyi akaba afite ikibazo bakaba bagiye kumufasha, inyuma y'aho bari abari abandi bantu.

Umugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'ivu ndetse n'agapfukamunwa, akaba ari umukozi kubera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, aho ari kuvura umuntu uryamye ku gitanda, akaba ari mu nyubako.

Umugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'umutuku, imbere ye hakaba hateretse mudasobwa, bikaba bigaragara ko ari mu nama, ku ruhande rwe hakaba hari intebe bakoresha bavura ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye.

Umuntu wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu ndetse n'ikabutura ifite ibara ry'umukara, akaba ari guteru ibyuma, ku ruhande rwe hakabaho undi muntu uhahagaze, akaba ari kumwerekera uburyo babikora, bakaba bari mu nyubako irimo ibikoresho bigiye bitandukanye bakoresha bubaka umubiri.

Umugabo akaba ahagaze ku rwego, ku ruhande rwe hakabaho undi mugabo ufite ikintu cy'umutuku mu ntoki ze, inyuma ye hakaho undi muntu wambaye agapfukamunwa, ahantu bari hakaba hari inyubako ndetse n'igiti.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu akaba ari umukozi Ukora ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima. Akaba yambaye'agapfukamunwa akaba ari mu nyubako imbereye hakaba hateretse mudasobwa ndetse n'impapuro.

Umugore wambaye isengeri ifite ibara ry'icyatsi ndetse n'ipantaro ifite ibara ry'ubururu ndetse n'inkweto zifite amabara y'umweru, umuhondo ndetse n'umutuku, akaba ari muri siporo, ku ruhande rwe hakaba hari igikuta.

Umugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, iruhande rwe hakaba hari umugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu wicaye mu kagare kababana n'ubumuga akaba ari kugorora amaboko ye kandi bakaba bicaye mu nzu.

Umuhungu wambaye umupira w'amaboko magufi, ufite ibara ry'ivu, akaba afite n'ibikoresho bakoresha bumva imiziki bifite ibara ry'umweru, akaba afite icupa ry'amazi, akaba ari kunywa amazi ndetse uwo muhungu akaba ari muri siporo.

Umugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru ndetse n'agapfukamunwa, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, imbere ye hakaba hari umwana wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu, akaba ari kumuvura mu kanwa, inyuma ye hakaba hari abantu babiri bahagaze bakaba bari mu nyubako.

Umugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivise z'ubuzima, imbere ye hakaba hari igikoresho bakoresha bavura, ku rundi ruhande hakaba ari igitanda, bakaba bari mu nyubako ndetse hakaba n'abandi bantu benshi bari kwandika.

Abantu bambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, udupfukamunwa ndetse bamwe muri bo bakaba bambaye n'amataratara, akaba ari abakozi bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi bakaba bari kubaga umuntu, ku ruhande hakaba hari imashini ndetse n'undi muntu wambaye imyenda ifite ibara ry'icyatsi.

Umukobwa wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu akaba ari umukozi ukuri ikigo gishinzwe gutanga service z'ubuzima akaba ari mu nyubako, imbere ye hakaba hari umuntu wambaye imyenda ifite ibara ry'umweru, akaba ari kumufasha kugenda akoresheje igikoresho cyabugenewe.

Umuntu wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, akaba ari mu nyubako, akaba ari gutanga serivisi z'ubuzima, ku ruhande rwe, hakaba hari umugabo wambaye imyenda ifite ibara ry'umukara, akaba yagize ikibazo cy'akaguru, bakaba bari kumufasha.

Umugore wambaye umwenda w'amaboko maremare, ukaba ufite ibara ry'umweru, ndetse akaba akenyeye n'igitambaro mu mutwe, arahagaze, iruhande rwe hari umugabo uhahagaze wambaye umwenda ufite ibara ry'umutuku ndetse n'umukara, inyuma y'aho bari hakaba hari ibiti.

Abantu benshi bari kugenda mu murima, aho harimo abambaye imyenda ifite ibara ry'umweru, ubururu ndetse na shokora, hakaba harimo n'imashini zabugenewe zo guhinga, ku ruhande hakaba harimo n'ibiti.

Abantu benshi bahagaze mu murima, hakaba harimo abambaye imyenda ifite ibara ry'icyatsi ndetse n'abandi babiri bambaye amakoti, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, aho hantu bari inyuma yabo hakaba hari ibiti.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, akaba afite n'isakame ifite ibara rya shokora, akaba ahagaze ku ruhande rwe hakaba hari ibiti bigiye bitandukanye, harimo urutoki ndetse n'umuravumba.

Umugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'umutuku wijimye, akaba yambaye n'ingofero akaba ari kuvugana n'itangazamakuru, ku ruhande rwe hakaba hari akabati karimo ibikoresho bigiye bitandukanye harimo nk'ibiribwa.